Ikigo cy'amashuri cya pirimare cyubatse ahantu heza, gifite isuku nta banyeshuri bari baza. Kuko iyo bahageze uba uri kubareba icyo kigo cyubatse ahantu heza kimeze neza abantu baragikunda gutangizamo abanyeshuri babo kuko kiba gifite isuku.

Ikigo cyigaho abanyeshuri biga muri pirimeri, iyo abanyeshuri bahageze bariga bamara kwiga bagakurikira amasomo, nuko amasomo akabagirira akamaro, bityo akagirira igihugu akamar,o kuko bazavamo abanyeshuri biga kuko biga ahantu heza.

Iki ni ikigo cy'amashuri abanyeshuri bigaho, icyo kigo cy'amashuri ni cyiza, kiri ahantu heza, giteye neza kiriho idarapo ryubahiriza igihugu, iyo abanyeshuri bakigezeho, bariga bafite umutekano.

Ikigo cy'amashuri kiriho abanyeshuri. Icyo kigo ni icya pirimeri. Kiriho amashuri meza, kimeze neza. Iyo abanyeshuri bahageze bariga bafite umutekano, kuko bari mu ishuri ryiza rifite iterambere rijanye n'igihe tugezemo.

Ikigo cy'amashuri cyigiramo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Iyo uhageze uriga neza kuko amashuri ni meza cyigamo abana bafite ubumenyi buhagije cyane.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bari gushushanya, buri muntu wese afite igishushanyo cye abandi baracyashushanya, iyo bababwiye gushushanya ibishushanyo bitandukanye abanyeshuri barishima nta nubwo bakoperana, kuko buri muntu wese afite igishushanyo cye.

Abanyeshuri bari mu ishuri, mwarimu agenda arababaza ibibazo bitandukanye, buri muntu akajyenda ari gusubiza, agashyira urutoki hejuru w'ikigo kugira ngo asubize ikibazo yumvishije, abatazi icyo kibazo ntabwo bari kumanika urutoki.

Ikigo cy'amashuri kigiramo abanyeshuri, hariho n'ahantu babika ibitabo, iyo abanyeshuri bari muri iryo shuri bareba ibitabo mu kabati bagasoma, kuko umunyeshuri uriryi.........

Botike bacururizamo imashini amapasi yo gutera, iyo uguzemo iyo pasi urayiteresha ikakuramburira imyenda, bityo imyenda yawe igahora imeze neza kuko wayiteye ipasi bihagije.

Abantu bari kubaka inzu y'amatafari. Iyo bayubatse neza ,hari umuntu uri iruhande rwabo uri kureba uko bari kubabaka. Ari kugenda abayobora. Uwubatse nabi akamukosora kuko uwo muntu ni umukapita ni cyo ashinzwe.

Abanyeshuri bari kwiga neza bambaye neza babahaye ibiryo bashyiraho n'ibindi n'irindi funguro ry'umuneke. Abanyeshuri barishimye bari kurya nta kibazo bafite kuko bari kurya indyo yuzuye, ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka...

Abanyeshuri bo muri sogonderi, bari kwiga, bari kugenda biga, harimo abahungu n'abakobwa bose, baravanze bari muri etude, bakurikiye amasomo, kugira ngo azabagirire akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bigirira n'igihugu cyacu akamaro.

Abanyeshuri bari mu ishuri ryisumbuye, abo banyeshuri baricaye bari kwiga bameze neza bategereje ko umwarimu yakwinjira, iyo winjiye urareba abanyeshuri ugasanga bameze neza bari kumashini zabo za mudasobwa bameze neza barakeye.

Ikigo cy'amashuri kirimo abarimu, abanyeshuri ntabwo bari baza kwiga. Iryo shuri rifite intebe nziza ,utubati twiza ,buri munyeshuri abikamo amakayi ye. Munsi harimo intebe iyo ugeze muri iryo shuri usangamo amakayi yawe.

ikigo cy'amashuri kiririmo intebe nziza, kirimo ikibaho kirimo ameza meza iyo abanyeshuri baje kwiga baricara buri muntu agafata agatebe ke kuko nta munyeshuri ugomba kwiga yicaranye n'undi mu ishuri rya sogonderi.

Abanyeshuri bari muri sogondeiri iyo bari kwigira ku mashini ntabwo barangara, buri muntu wese aba afite imashini ye akurikirana amasomo, kandi ateze amatwi n'ibyo imashini iri kumubwira kuko arangaye ntabwo yazagirira igihugu akamaro.

Abanyeshuri bo muri segonderi abo banyeshuri bari muri sitaje bari kugenda bari kwitegereza, bari kugenda bari kureba ibyo bari gukora bamwe bari kubaza abandi bari kugenda bari kureba ibyo abandi bari gukora. Abo banyeshuri bameze neza bambaye imyenda ibaranga.

Aho abanyeshuri bo muri sogonderi bakorera sitaje, baje kureba uko utwana tuvuka. Iyo bari muri sitage baba bari mu myitozo ihagije, kuko haba utwana, kakaba na ho babagira, bityo abanyeshuri bagakora sitaje neza.

Bari kudoda imyenda bafite imashini zihagije, kuko iyo ugiye kudodesha uhitamo umudozi ushaka, akakudodera imyenda yawe neza ukambara ukaberwa, kandi kudodesha imyenda iyo wihitiyemo umuntu akudodera neza.

A ha ni ikigo cy'amashuri kirimo ibikoresho byo kubaza bitandukanye, iyo abanyeshuri bagezemo barabireba, bityo bikabafasha mu masomo yabo ya buri munsi, kugira ngo bazashobore gukora imyitozo y'imyuga.